Mu buhinzi ababizobereyemo cyangwa se abagize amahirwe yo kubimenya, bagira ibikoresho bitandukanye bibafasha harimo n'imiti ibafasha kongera umusaruro wabo, iyo miti rero akenshi iboneka mu mazu yabugenewe ntabwo ari umuntu ku giti cye uba uyifitiye, keretse iyo agiye kuwugurayo.

Imyaka cyangwa se ibihingwa byo mu murima bikenera imiti myinshi itandukanye kugira ngo ibirinde udusimba ndetse inongere umusaruro. Iyo miti rero ntabwo ivangwa hamwe n'imiti y'abantu, iyi miti y'imyaka igira ahantu hayo habugenewe iba igomba kubikwa. Ishobora kuba ari mu tujerekani dupfundikiye neza tugaterekwa mu tubati ahantu hameze neza ku buryo nta kibazo na gito cyayizaho.

Aho bacururiza imiti cyangwa se ibindi bikoresho byakoreshwa mu buhinzi hagomba kuba hasa neza, hagomba kuba hitaweho mu buryo bwose, hafite umuryango wo kuharinda ibyinjira ndetse n'ibisohoka bitateganyijwe.

Ntabwo ari abantu gusa bakenera imiti kugira ngo bamere neza, n'ibihingwa cyangwa se imyaka ibiri mu murima ikenera imiti yayo yabugenewe kugira ngo ikure neza, cyane cyane aba ari iyo kugira ngo udusimba tutayangiza ndetse n'umusaruro wiyongere, umuhinzi akabasha kubona ibimuhagije ndetse anabasha kujyana ku isoko bisa neza.

Mu buhinzi bwa karoti, nta bwo umuntu afata karoti ngo ayishyire mu murima aba ariyo izakura, cyangwa se abe ari yo izera. Ajya ahantu habugenewe, ahantu bacuruza inzuzi bakazimuhereza, akaba ari zo ajya gutera zikazakura zikavamo karoti.

Mu gushaka ingemwe z'igihingwa runaka, abantu benshi bakoresha uburyo butandukanye. Hari abakoresha amashashi yabugenewe bagateramo, zamara gushibuka bakazijyana mu murima. Kimwe n'uko hari abandi bakoresha amabase, akaba ariyo bahingamo izo ngemwe zakura bakabona kuzijyana mu...

Si abantu gusa bakeneye imiti kugira ngo indwara barwaye zikire. N'ibihingwa cyangwa se amatungo yo mu rugo, na yo akenere imiti kugira indwara zihari zikire, cyangwa se zirindwe. Imiti yabyo, ntabwo ivangwa n'imiti y'abantu. Ahubwo ifite ahantu habugenewe iba igomba kubikwa, hasa neza, hasukuye ndetse hanagaragara, kugira ngo umuntu atazayitiranya.

Nkuko habaho ikusanyirizo ry'imiti mu ndimi z'amahanga twita depo, y'abantu, habaho n'ikusanyirizo ry'imiti dukoresha mu buhinzi na yo tuyita amadepo, rero aho hantu ni ho haba habitse imiti, abantu benshi bakenera impande zose, kugira ngo izabafashe mu gikorwa cyabo cy'ubuhinzi, bongera umusaruro.

Bumwe mu buryo bwo gutuma amazi atangiza umurima cyangwa se imyaka iri mu murima. Ni ugufata amazi bakoresheje imiringoti, aho iyo miringoti ifata amazi, kugira atajya kwangiza imyaka iri muri uwo murima.

Umusaruro mwiza uboneka iyo ubutaka bumeze neza bwitaweho neza, ndetse bikaba bihwanye n'uko icyo gihingwa nacyo kiba kigomba kwitabwaho mu buryo bwose bushoboka.

Bitewe n'ibisabwa kugira ngo icyo kimera cyere, ibimera byose ntabwo bisaba ibintu bimwe. Hari ibisaba ko kugira ngo byere bimeze neza bitariwe n'ibisimba cyangwa se ngo byangizwe n'ibindi bintu biturutse mu butaka, bikenera ko babisasira urugero inyanya.

Ibirayi ni bimwe mu bitunze abaturarwanda muri ubu buzima, ni igihingwa bahinga bakitaho neza bitewe n'amafumbire bashyizemo kandi bikera bikanatanga umusaruro w'abantu bashobora kurya mu rugo irwabo cyangwa se bakajyana ku isoko kugira ngo babone amafaranga yo kubatunga mu bundi buzima.

Imwe mu mirimo abaturarwanda bakora, ni uguhinga. Iyo bahinga, bita ku bihingwa byabo, ubundi bakeza, umusaruro ukaba utubutse, bikanabafasha mu iterambere ryo mu buzima bwa buri munsi.

Bijya bishoboka ko amatungo tuba tworoye mu rugo arwara. Ariko iyo arwaye, dushobora kwifashisha imiti baba barashyize hanze, cyangwa se tugahamagara umuganga w'amatungo kugira ngo adufashe kuvura ayo matungo.

Umwuga wo guhinga ntabwo ari umwuga w'abantu bamwe gusa, ubikunze ubishoboye, ubishatse, wahinga kandi ugakoresha ibikoresho byabugenewe, kugira ngo umusaruro wawe ukomeze wiyongere.

Bimwe mu bihingwa biba ku isoko, abanyarwanda dukunda guhaha dukunda kubona dukunda kurya, harimo ibirayi, harimo ibitoki, kandi ibyo byose biba biri mu moko atandukanye bitewe n'ibyo abantu bakunda.

Abaturage bo mu gace kamwe bariyegeranya bagakora umuganda, umuganda ukorwa ku wa gatandatu wa nyuma w'ukwezi kugira ngo bagire aho basukura bahisukuriye bo ubwabo batarinze bategereza imbaraga zivuye kuri leta. Abo ba baturage bashyira hamwe n'abayobozi babo yaba mu mudugudu cyangwa akagari cyangwa umurenge bagakorera hamwe kugira ngo basukure ahantu habo.

Ibyiza ndetse n'ingirakamaro gutema ibigunda cyangwa se ibihuru biba biri ahantu hose. Icya mbere cyo ntabwo biba bisa neza, ikindi hashobora kujyamo ibisimba cyangwa se hakarikamo imibu.

Guhinga ni imirimo ibeshejeho abaturarwanda benshi. Ni imirimo ikoreshwa amaboko, aho usanga umuntu aba akeneye ibiganza byombi, akeneye kunama kugira ngo agere kuri ubwo butaka, ahinge igihingwa cye mu buryo ashaka.

Isuri ibaho iyo imvura nyinshi yaguye ahantu ku butaka bworoshye, igatembana ibyari biriho byose; yaba imyaka, yaba ubutaka buke bwari buriho, ndetse n'ibindi. Iyo myaka rero iba yangiritse, ntabwo iba izongera gukura keretse ubutaka iyo bumaze gutungana neza.

Abanyarwanda bose ntabwo bagira imyumvire imwe, n'ubwenge bumwe n'ubushobozi bumwe, niyo mpamvu ari byiza ko abateye imbere cyangwa se abatazi ikintu bacisha make bagatega amatwi ababasobanurira kubera ko baba barusha ibyo bintu.

Umurimo w'ubuhinzi, ni umurimo w'abantu bose, yaba abagabo cyangwa abagore, icyangombwa ni uko baba bazi kwita ku mirima yabo, ku bihingwa byabo, kubikorera isuku kugira ngo umusaruro urusheho kwiyongera.

Abanyarwanda bashyira hamwe muri gahunda yitwa umuganda kugira ngo bagire igikorwa remezo bakora, iyo bifatanije bakareba ikibafitiye akamarokaba ari icyo baheraho bakora muri uwo muganda.

Imwe mu mirimo ibeshejeho abaturarwanda ni uguhinga. Iyo bari kwita ku mirima yabo baba bari kwita ku myaka yabo, baba bashaka uburyo bongera umusaruro kugira ngo biteze imbere, yaba ari mu rugo ndetse no ku isoko.

Imyaka yeze ikeneye uburyo butandukanye bwo kwitabwaho kugira ngo itunganywe ijyanwe ku isoko, imwe muri yo hari umuceri usarurwa ukanikwa ugahurwa noneho bakawutunganya neza, ku buryo ushobora kujya ku isoko usa neza.

Inyanya ni imbuto ndetse zikaba n'imboga abantu benshi bakunda, zitanga umusaruro ku muhinzi ariko ntabwo ari we wenyine zigirira akamaro iyo yazijyanye ku isoko abantu bakazikunda bakazigura ku bwinshi zihumuza ibiryo zigahindura ibara ry'ibiryo ndetse zikaba zifite n'intungamubiri umuntu aba akeneye mu buzima bwa buri munsi.

Iyo ahantu hatari umuhanda mugari nyabagendwa hari igihe haba hari akayira gatoya abantu banyuramo, kubera ko nta muntu wo kuhaharura uba uhari ngo abikureho ibyatsi, biramera ku ruhande ariko n'ubundi ka kayira kakaba kagihari abantu bashobora gutambukiramo.

Mu buzima bwa muntu ntabwo twikorera ibiryo ahubwo dukenera ibiryo biturutse hanze cyane cyane mu bihingwa, ariko ibihingwa by'icyatsi byo ubwabyo byikorera ibiryo bikoresheje ibintu byinshi bitandukanye harimo nk'amazi ndetse n'ibindi bikura mu butaka bigakora ibiryo byabyo.

Bimwe mu bidukikije umuntu akenera, ni amashyamba, ndetse ntago ari umuntu gusa ukenera ibyiza by'ayo mashyamba, n'izindi nyamaswa zose zo mu gasozi, na zo zikenera uwo mwuka mwiza utangwa n'amashyamba.

Abantu batandukanye bafite imirima, bahinga ibyo bashaka kugira ngo bakomeze bihaze mu biribwa, ushobora gusanga umurima umwe urimo karoti, hirya yawo harimo ibigori, hino yaho hari ibirayi, mbega abantu bahinga ibintu byinshi bitandukanye bitewe ni...

Biramenyerewe ko bamwe mu banyarwanda bahisemo umwuga w'ubuhinzi, ntabwo bahinga ibintu bimaramo igihe kinini cyane gusa cyangwa se ibirayi gusa bahinga n'ibindi byinshi kugira ngo babashe gusagurira amasoko, urugero abahinzi b'imboga nabo ni abantu ubuhinzi buteza imbere cyane kubera ko imboga bazijyana ku isoko.

U Rwanda ni rumwe mu bihugu bigize Afurika bizwiho gutanga ikawa nziza y'umwimerere, iyo kawa rero ntabwo ari uko iba yavuye mu rundi ruganda, iva mu mirima y'abantu y'abaturarwanda kandi bayitaho bakoresheje ubwenge bwabo amaboko yabo.

Bimwe mu bihingwa Abanyarwanda bakunda no guhinga harimo ibitunguru, ubutunguru tubukoresha mu buzima busanzwe, aho usanga bamwe bashobora kubuteka mu mbuga cyangwa se bakaba babukoresha mu bindi biryo nk'ibirungo kugirango ibiryo bikomeze biryohe.

Ubuhinzi bw'avoka z'imbangurire ni bumwe mu buhinzi Abanyarwanda bakora bukabateza imbere. Ntabwo babona avoka zo kurya mu rugo iwabo gusa, babona n'izo gusagurira amasoko, kugira ngo babone amafaranga yo kugura ibindi baba bakeneye mu rugo.

Iyo ugiye mu isoko bitewe n'icyo ugiye kurebayo, akenshi ibyo usanze nibyo ugura. Urugero rwa bimwe ushobora gusanga mu isoko harimo: imbuto, nk'indimu, beterave, amaronji, ibinyomoro n'ibindi.

Ni isomo ry'ibinyabuzima mu ndimi z'amahanga arizo igifaransa bita ''Biologie'', tubona ko ibihingwa biba bifite amababi y'icyatsi ari ibihingwa biba byikorera ibiryo ubwabyo, bitari kimwe nk'abantu twebwe dukenera ibiryo biturutse hanze ntabwo twikorera ibiryo, ariko ibihingwa bifite ibara ry'icyatsi byikorera ibiryo bikabasha kwitunga.

Inyanya ni zimwe mu mbuto zisaba gusasirwa kugira ngo udusimba tuba tuvuye hasi tutazirya zikangirika kandi ariho umusaruro wa banyirazo ariho uba ushingiye. Iyo urunyanya rwasasiwe neza rujya ku isoko rukimeze neza.

Imboga ni nziza ku mubiri w'umuntu. Urugero rwa zimwe mu mboga abaturarwanda turya, harimo kurujete, imiteja, n'ibitunguru, ibyo byose umuntu abiteka bitewe n'uko ashaka, kandi nibyo akunda.

Gusasira imyaka ni ikintu cyerekana ko mu butaka hari udusimba tuba turimo dushobora kwangiza imyaka igihe ikoze ku butaka ndetse akaba ari uburyo bwo gutuma amazi aguma mu butaka ntavemo byihuse, ibyo byose aba ari i uburyo bwo kugira ngo igihingwa agikure neza.

Akarima k'igikoni ntigakenera kwitabwaho n'umuntu umwe gusa cyangwa se icyiciro runaka cy'abantu, umuntu uwo ari we wese yakwitaho kandi umusaruro ukiyongera. Yaba umugabo, yaba umugore, umwana se umukecuru, umusaza, bose bakitaho umusaruro ukiyongera cyane cyane uw'imboga.

Imwe mu mirimo Abanyarwanda bakora bakunze kandi banishimye harimo guhinga, kubera ko bamaze kubona ibyiza byo guhinga harimo kwihaza mu biribwa, kubona uko basagurira amasoko ndetse no kuba mu buzima bwiza.

Mu buzima busanzwe bw'abantu bagira ibintu byinshi bibarangaza, ibibashimisha ndetse n'ibyo baba bari gukora. Bimwe muri byo hari umukino w'amaguru witwa football, uwo mukino ukunzwe n'abantu benshi. Ntabwo ari ibyamamare gusa ndetse natwe ubwacu turawukina.

Mu bishanga na hantu abantu bahuriza imbaraga zaho kugira ngo bagire igikorwa runaka bahakorera igikorwa cyo kubateza imbere, urugero rw'ibikorwa bihakorerwa ni ubuhinzi abantu bihuriza hamwe mu' itsinda bakaba bahinga ni uko umusaruro uvuyemo bakawugurisha cyangwa se bakabirya na bo ubwabo.

Bumwe mu buryo bwo gufata neza ubutaka no kugira ngo dukomeze twongere umusaruro, bumwe mu buryo bwo kugira ngo tubone umusaruro wiyongereye ni ugukoresha amaterasi y'indinganire, kugira ngo turinde isuri yangiza imyaka n'ubutaka.

Amatungo magufi ni amwe mu matungo yoroshye kuyorora muri ubu buzima kugira ngo afashe nyiri kuyorora gutera imbere. Urugero yamuha ifumbire, ashobora kuyagurisha mu gihe yabyaye ndetse n'ibindi byinshi.

Mu muco w'Abanyarwanda harimo gusangira. Aho ubona mu duce tumwe na tumwe tugize igihugu, niba umwe yarageze kuri kimwe, aha mugenzi we kugira ngo bafashanye batere imbere bose.

Inka nibimwe mu binyabuzima bibaho kuri iyi si, Rero inka kugira ngo zidashiraho, bisaba ko zibaruka. Zirahaka ubundi zikabyara. Rero iyo zabyaye ,utwana tuba ari utunyana cyangwa se utu.

Ihene ni zimwe mu matungo magufi yororerwa mu rugo kugira ngo abantu babashe kwiteza imbere, ntabwo ari ihene zibateza imbere ahubwo uburyo bazitaho ni byo bituma biteza imbere, urugero kuzigaburira neza zigakura nta kibazo zitarwaye, bakazigurisha bakabona amafaranga.

Mu buzima burya dukenera kurya. Dukenera gufungura, dukeneye ibitunga umubiri bikadutera imbaraga. Ntabwo ari twe abantu gusa n'amatungo na yo akenera kurya, akenera ibitunga umubiri wayo, agakeneye ibiyatera imbaraga. N'inka na zo ni uko zikeneye ibyo kurya, zikenera aho kuba kugira ngo zikomeze zibeho neza.

Ihene ni imwe mu matungo magufi tworora mu rugo, aba adufitiye akamaro kenshi, hari ukuduha ifumbire, iyo yabyaye iduhereza amata, ari nako yongera umusaruro w'ibituruka ku matungo nk'inyama n'ibi....

Amatungo magufi ni amwe mu matungo ajya kuba nk'ayoroshye, mu korora mu buzima busanzwe bw'abaturage, impamvu yoroshye ni uko arya bikeya kandi akaba abona ahantu hatoya ariko biba bisaba n'ubundi kuyakorera isuku.

Inyanya ni zimwe mu mbuto ndetse n'imboga abanyarwanda bakunda, iyo zitarera ziba zi nicyatsi zakwera zikaba zisa umutuku, ubwo ziba zahishije icyo gihe ziba ziri tayari zaribwa.

Mu ngo zacu ni ingenzi gufata amazi tuba twakoresheje kugira ngo atajya kwangiza ibidukikije harimo kujyana amasabune tuba twamesesheje mu rugo mu mirima byangiza ubutaka ndetse bikanangiza imyaka.

Ibirayi ni bimwe mu bihingwa bitunze Abanyarwanda. Si ukubirya gusa ndetse no kubihinga. Umuhinzi iyo yabihinze ajyana ku isoko, akabona amafaranga yo kwifashisha mu buzima busanzwe, ndetse n'iyo umuntu adafite amafaranga ahagije yo kugura ibiryo byinshi bitandukanye, akunda kwigurira ibirayi nibyo bitebutse, kandi bitana...

Kubera ko ahantu hose hatagerwa n'umuhanda mugari, hari ahandi hantu usanga hari utuyira, banyiraho cyangwa se abakunda kuhanyura, bahakora neza kugira ngo hatazamo ibyatsi bigapfukirana iyo nzira, cyangwa se imvura yagwa amazi akajya mu muhanda, bikababuza gutambuka, rero ni byiza ko bahakorera isuku uko bishoboka.

Ibihingwa bitandukanye bigenda bigira icyo bisaba kugira ngo byere neza, bimwe muri ibyo bihingwa hari ibirayi bisaba ko umuntu aba yabyuhiye ndetse n'ifumbire, ariko umuceri wo ukenera ahantu hahehereye, ahantu hari igishanga, ahantu hari amazi kugira ngo ukure, hari n'ibindi bikenerwa.

Birashoboka ko abahinzi bashobora gutangira begeranyije imbuto kugira ngo zibashe gukura neza, ariko uko zigenda zikura zegera hejuru barazitandukanya kugira ngo buri rubuto rwisanzure.

Mu mirima yacu ni byiza gufata amazi, kugira ngo atangiza imyaka idakunda amazi menshi. Ikindi kandi, iyo amazi yabuze, amazi amwe mu yo twabitse dushobora kuyifashisha turi kuhira.

Kuhira imyaka ni bumwe mu buryo bwo gufata neza ibihingwa tuba twarahinze, tubyuhira kubera ko izuba riba ryarabaye ryinshi amazi akaba agabanuka mu butaka, bikaba ngombwa ko tubyuhira kugira ngo bituma.

Akarima k'igikoni ni gahunda yashyizweho na Leta y'u Rwanda, mu buryo bwo gufasha abaturarwanda kubona imboga kandi banarwanya imirire mibi yo mu rugo, ntabwo ari akarima k'igikoni gusa kaba karimo imboga, ushobora no guhinga n'ibindi bashobora kwifashishamo.

Kwita ku mboga ziri mu mirima ni bimwe mu byerekana ko izo mboga ziba zikenewe koko. Kuzikoresha isuku ntabwo ari ukuzoza, ahubwo ni ukuziha itaka rihagije kugira ngo zikomeze zikure neza, zinabone amazi ahagije avuye mu butaka.

Ibigori iyo biri mu murima abantu bashobora kubisarura iyo byeze, bakabiteka ari ibigori bisanzwe mu mazi cyangwa se bakabivungura ku buryo babijyana kubishesha bikavamo ifu bashobora gukuramo ibindi bintu byinshi nk'akawunga cyangwa se ifu y'igikoma.

Hari abantu baba barize kuvura amatungo, ku buryo usanga ibyo ngibyo ari byo kazi kamubeshejeho Rero muri abo bantu, amatungo bavura ntabwo ari amatoya gusa; n'amaremare yo mu rugo, harimo inka.

Ubumwe bw'abantu iyo bari gukora ikintu runaka bibafasha gutera imbere vuba, kandi buri wese akabigiramo inyungu. Ibyo biboneka cyane cyane mu kazi, mu bantu bakora akazi kamwe cyangwa se mu banyeshuri iyo bashyize hamwe batera imbere vuba.

Mu buhinzi abantu bose ntabwo bifashisha ibikoresho bimwe, hari abakoresha kiriya cyuhira amazi n'abandi baba bakeneye kugura amafumbire kugira ngo yongere ubutaka, bikayongera umusaruro wabo.

Inguge n'inyamaswa ziba mu ishyamba, iyo uzihaye umwanya ukazireba uba ubona zishimishije, kubera ukuntu zisimbuka, zizamuka ibiti bwangu, ukuntu zibayeho zirya zikina, mbega ni ibintu biba bishimishije pe!

Inyoni ni bimwe mu biguruka Imana yaremye biba bishimishije, ariko ntabwo ziba mu rugo akenshi, ntabwo tuzorora mu rugo ahubwo ziraguruka zikajya gushaka ibyo kurya ubundi zigataha aho ziba zarubatse.

Mu bidukikije tuzi ntabwo ari amashyamba, amazi byonyine habamo n'ibisimba, habamo n'inyamaswa haba izo mu rugo ndetse n'izo mu gasozi, izo mu gasozi zishobora kuba ziguruka cyangwa zigendera ku butaka.

Imparage ni zimwe mu nyamaswa ziba mu ishyamba ry'u Rwanda. Ziba mu maparike cyane cyane aho ziba zikurura abakerarugendo kugira ngo baze bazisure bazirebe. Iyo bazishimiye batanga amadovize menshi afasha mu iterambere ry'igihugu.

Imana yaremye ibintu byinshi harimo inyamaswa yaba izo mu rugo ndetse n'izo twita ko ari izo mu gasozi. Ubwo ni izitaba mu rugo. Zimwe mu zitaba mu rugo tuzi ni nk'inkende zikurura abakerarugendo iyo ziba muri parike.

Inyamaswa zo mu ishyamba ni bimwe mu bitatse u Rwanda bimwe mu bishimisha abantu batandukanye b'ingeri zose, biterwa n'cyo umuntu akunda rero zimwe muri izo nyamaswa hari ziba mu biti bivuze ko zigerayo zoriye.

Mu mashyamba yo mu Rwanda, habamo ibisimba Imana yaremye, kugira bibemo, ndetse ibyo bisimba bikaba byakurura abakerarugendo mu gihe baje kubisura mu gihugu. Ibyo bisimba hari ibirya ibyatsi, hari ibirya inyama ndetse hari n'ibirya byose bikarya ibyatsi bikarya n'inyama kugirango bikomeze bibeho.